Ururabo rw'ameze hagati y'amakoro manini cyane, ruteye mu gitaka kimeze neza kirimo ifumbire, kuko rutohagiye rufite amabara y'icyatsi ameze nk'aya mateke.

Imiti gakondo irimo ibimera bitandukanye, bifasha kuvura indwara za karande harimo ibiti bya Rweru, za Kapusini, mu kwirinda uburwayi bwa cimeza.

Umurima w'amateke wari waratewemo ibigori bakaba barabisaruye. Aho ibigorigori babitemye bakabisasiza amateke kugira ngo na yo akure neza, afite ifumbire akomora kuri ibyo bigorigori byaboze.

Indabo zifashishwa mu gutegura ahantu nkuko aho baziteye ubona hasa neza kandi hari umwimerere w'ubuziranenge hahumura n'umwuka mwiza.

Mu byatsi bitandukanye byifashishwa mu kuvura indwara za karande， kandi bakabifata nk'ubuhinzi bw'indabo， kuko aho biteye biba bihafite isuku， bikanahagaragaza neza.

Ibisheke biraryoha cyane, bikunda kugira isukari, aho umuntu wese ukunda kubirya, yumva bimuryoheye kubera isukari biba bifite.

Ibyatsi by'ishyamba cyimeza byameza ahantu impande y'urutare, urutare runini cyane rw'amakoro. Aho ibyo byatsi bishobora kugaburirwa amatungo cyangwa se bikavamo imiti gakondo ishobora kuvura indwara.

Imiti gakondo y'ibyatsi bifasha mu kuvura indwara zananiranye, byifashishwa n'abantu bose badafite ubushobozi bwo kuja kwa muganga ngo bivurishe imiti ya kizungu.

Ibiti bya mugandutuma bitohagiye cyane, birashishe kubera ko ari mu gihe cy'imvura, nta zuba ryinshi ryabivuyeho ngo ribyumishe birinda ubutaka, bikanafasha abantu mu kubigaburira amatungo.

Imboga nziza z'amashu，zihinze mu murima mwiza ufite isuku，ku buryo nta byatsi bihari byo kuzibangamira，zitangiye kubumba zitegereje ko zikura， bakazazisarura bakajya kuzitera.

Igishayote bumwe mu bwoko bw'imboga ziryoha cyane, zifasha abantu kugira apeti kuko iyo batetse ibihaza by'ibishayote, bishya vuba kandi ntibimara inkwi.